Abahinzi ndetse n'aborozi bakenera ahantu bakura imiti ndetse n'ibindi bitunga umubiri w'amatungo cyangwa se uw'ibihingwa. Ni iyo mpamvu hari amazu yabugenewe, ashinzwe gucuruza iyo miti ndetse n'izindi nyongeramusaruro kugira ngo abahinzi n'aborozi babibone bi boroheye.

Abahinzi kugira umusaruro wabo wiyongere cyangwa se imyaka ikure neza n'uko babanza gutegura ubutaka hakiri kare. Barabanza bakabuhinga, bagashyiramo ifumbire urugero nk'imborera kugira ngo imyaka nigeramo izahite ikura neza nta kibazo.

Abahinzi iyo bageze mu gihe cy'izuba bavomerera imyaka yabo, ariko na none, kugira ngo imyaka ikure neza, ni uko bayitera imiti bifashishije ibikoresho byabugenewe aho bitera imiti myinshi kandi mu gihe gitoya kuri buri kibabi kigize igihingwa.

Abahinzi kugira ngo umusaruro w'ibyo bahinga wiyongere, ni uko batera imiti, kugira ngo imyaka yabo ikure neza kandi ntihatakwe n'indwara, bifashisha amapompo yabugenewe atera imiti ahantu hanini kandi mu buryo bwihuse.

Kugira ngo tubone umusaruro uturuka mu buhinzi, ni uko abahinzi babigiramo uruhare babanza kwita ku murima mbere y'uko bateramo imyaka, barabanza bakawutunganya bawuhinga, bagakuramo ibyatsi ndetse n'ibindi byonnyi bitandukanye.

Aborozi ndetse n'abahinzi bakenera imiti ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu bworozi, ibyo bintu byose kugira ngo babibone ni uko biba biri ahantu habugenewe, ariho usanga hari amaduka yihariye acuruza imiti ndetse n'ibindi bintu byose byifashishwa mu bworozi n'ubuhinzi.

Abahinzi bashyira hamwe kugira ngo babone umusaruro mwiza mu gihe bari guhinga. Bashobora kubikora mu matsinda, aho bashobora kugurizanya cyangwa se bakaba barateranyije imyaka, maze bagahingira hamwe, bakazagabana umusaruro.

Avoka iyo zeze neza barazisarura, hanyuma bakazibika ahantu mu gihe runaka kugira ngo zibashe kuba zashya maze zizaribwe, iyo zihiye zishobora kujyanwa ku iduka aho bacuruza, hanyuma abantu bakayibona bakazigura.

Abahinzi kugira ngo babone umusaruro w'imyaka yabo ni uko baba bashyizemo imbaraga, bagerageza gutera imiti yica udukoko cyangwa se irinda indwara iyo bari guhinga, nanone iyo miti ituma iyo myaka ikura neza.

Abahinzi bahinga imyaka kugira ngo babone ibyo kurya ndetse basagurire n'amasoko, urugero ni nk'igihingwa cy'ibigori aho kimaze kwitabirwa n'abantu benshi kubera ko iyo ugihinze ubona ibyo kurya na none gitanga amafaranga mu gihe gito cyane.

Iyo abaturage cyangwa se abubatsi bakeneye kubaka inzu, bifashisha ibyondo cyangwa se ibitaka kugira ngo babone amatafari yo kubakisha. Babisukaho amazi hanyuma bakabiponda bakaza kubikuramo ayo matafari.

Ifumbire y'imborera ni imwe mu byifashishwa kugira ngo imyaka ibashe gukura neza, iba yibitsemo intungamubiri zitunga igihingwa z'umwimerere ari yo mpamvu aho zashyizwe mu myaka ihita ikura neza kandi igatanga umusaruro mu gihe gitoya.

Abahinzi bafatanyiriza hamwe kugira ngo bahinge ahantu hanini kandi mu gihe gitoya, ibyo bituma babona umusaruro mwiza cyane kuko baba bafatanyirije hamwe, na none bashobora kuba barashyizeho gahunda yo guhingira hamwe kugira ngo nibasoza bazagabane umusaruro.

Abahinzi iyo bageze igihe cy'isarura, bishimira icyo gikorwa kubera ko baba barabivunikiye cyane kandi baba babonye umusaruro mwiza, bitewe n'uko baba barashyizemo imbaraga. Urugero ni nk'intoryi, aho umuhinzi ajya kuzisarura iyo zeze kandi yifashisha ibikoresho bitandukanye.

Umuhinzi ashyiramo imbaraga kugira ngo abone umusaruro w'ibyo ahinga. Bahinga ubutaka neza, kugira ngo imyaka yabo, izabashe kwera. Bakuramo ibyatsi bakabijugunya kure ndetse n'ibindi byonyi bishobora kwataka imyaka yabo.

Abahinzi bakenera inyongeramusaruro cyangwa se ifumbire kugira ngo umusaruro wabo ukure neza kandi wiyongere, ibyo babifashwamo n'abayobozi kugira ngo babone iyo fumbire, nanone bashobora kuyitera mbere yo gushyiramo imyaka cyangwa se nyuma yaho.

Imyumbati ni kimwe mu gihingwa gikurwandwa n'abantu benshi kubera uburyohe bwacyo kibitsemo kandi ari kimwe mu biribwa bigize umuco nyarwanda. Bashobora kugikuramo ubugari cyangwa se bakagiteka ku bishyimbo, ubwo buryo bwose butuma bayirya kandi bikabaryohera.

Iyo ugiye mu isoko uhasanga ibiribwa by'ubwoko butandukanye, aho ibyinshi usanga ari ibikomoka ku buhinzi, nk'ibitoki abaturage benshi bitabiriye kubihinga ni yo mpamvu iyo ugiye ku isoko ubisanga ahantu hatandukanye kandi ari byinshi.

Umuceri ni kimwe mu gihingwa gikundwa cyane, aho gihingwa mu gishanga hanyuma kigakura gifite utubabi tureture tunanutse kandi ibishogwe by'umuceri bikamera hejuru. Mu gishanga ni ho umuceri ukunda kwisanga, akaba ari na ho hatanga umusaruro mwinshi.

Ibijumba ni kimwe mu gihingwa gikundwa cyane, aho gihingwa mu buryo butangaje, bahinga imigozi hanyuma ibijumba bikera munsi, ku buryo iyo ubirebeye hejuru uba ubona imigozi yonyine, ibyo bijumba iyo byeze barabikura, hanyuma bakabikuramo munsi.

Abahinzi iyo bahinze neza kandi babyitayeho babona umusaruro ushimishije cyane ku buryo bagemurira n'amasoko, ibyo bituma iterambere ryabo ryiyongera kandi na bo bakagira imibereho myiza.

Iyo tugiye mu iduka cyangwa se aho duhahira ibyo kurya, tuhasanga amafunguro atandukanye dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi, urugero ni nk'ifu za kawunga, ibigori ndetse n'umuceri, aho tubibona bitworoheye nta kibazo duhuye nacyo.

Ibirayi ni kimwe mu bihingwa bikundwa cyane, aho na byo bikenera guterwa imiti kugira ngo birindwe indwara cyangwa se udusimba tubyangiza. Abantu batera imiti, baheka ipompo, bakagenda batera kuri buri kibabi kigize igihingwa.

Abahinzi iyo bahinze imyaka iratunganywa neza hanyuma igashyirwa mu mifuka kugira ngo igemurwe ku isoko aho abantu benshi bazabasha kubigeraho nta kibazo bagize, nanone iba yarakuwemo imyanda ndetse n'ibindi bintu byose bitaribwa.

Iyo tugeze mu ishyamba tuhasanga ibiti by'ubwoko butandukanye, aho ibyinshi bishobora kuba byarimeshije cyangwa se bakaba barabiteye. Iyo bikuze neza bivamwo imbaho zifashishwa mu kubaka, ndetse no gukoresha ibikoresho bitandukanye.

Iyo tugeze mu ishyamba tuhasanga ibiti by'ubwoko butandukanye, aho bishobora kuba byaratewe n'abantu cyangwa se bikaba byarimejeje, ibyinshi uba usanga ari ibiti birebire, aho byifashishwa mu gukora imbaho cyangwa se amakara.

Iyo ugeze mu ishyamba uhasanga ibiti by'ubwoko butandukanye, aho usanga hari ibirebire cyane ku buryo bipima ama metero menshi, ibyo biti byifashishwa mu gukora imbaho ndetse n'ibindi bikoresho twifashisha mu rugo kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Ubuhinzi busigaye bwarateye imbere, aho abantu basigaye bafata imbuto bakazishyira mu migemo kugira ngo zizane imizi, hanyuma nyuma y'iminsi bakazazikuramo, bakazishyira mu murima kugira ngo zihite zikura neza.

Iyo amashyamba twateye cyangwa se yimejeje yakuze neza, barayasarura mu buryo bwemewe, hanyuma bakayakuramo ibyo gukoresha mu bwubatsi cyangwa se ibindi bikoresho dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, urugero nk'intebe cyangwa se amakara.

Iyo tugeze mu ishyamba tuhasanga ibyatsi by'ubwoko butandukanye, harimo ibishobora kuba byarimejeje, kandi byose bifite akamaro kuko bicumbikira inyamaswa zo mu gasozi, nanone bikaba bitanga imvura kugira ngo tugire ubuzima bwiza n'imyaka ikure.

Mu ishyamba haba hari ibiti by'ubwoko butandukanye, aho usanga ibyinshi biba byarimejeje kandi biba bidufitiye akamaro cyane, kuko bimwe bivamo imiti, ibyo kurya ndetse bituma tubona imvura ndetse n'ikirere kikarushaho gusa neza.

Mu ishyamba tuhasanga ibiti by'ubwoko butandukanye, aho bishobora no kuba byaterwa mu rugo. Urugero: ni nk'ibiti by'imyembe, insina ,amavoka, ndetse n'ibigori byo kurya. Aho ushobora kubisanga mu busitani bwo mu rugo cyangwa se mu murima.

Insina ni kimwe mu gihingwa gikundwa cyane kuko kivamo ibiribwa bitandukanye urugero nk'ibitoki, umutobe ndetse n'inzoga. Kugira ngo bagihinge barabanza bagacukura imyobo bagashyiramo ifumbire, hanyuma bakabona gushyiramo imibyare y'insina.

Abahinzi bahinga imboga urugero nk'intoryi, iyo igihe kigeze cyo gusarura, bajya kuzisarura aho ziri, kandi bakabona umusaruro wabo. Na none iyo batinze, bishobora kurangira izo ntoryi cyangwa se ubundi bwoko bw'imboga bwangiritse.

Avoka ni kimwe mu gihingwa gikundwa cyane ariyo mpamvu abahinzi benshi bagihinga bagikunze, kuko iyo kigeze ku isoko gikundwa n'abantu benshi, aho bakirisha ibiryo cyangwa se kikaba cyabarinda indwara runaka.

Abahinzi kugira ngo imyaka yabo ikure neza kandi itangiritse, ni uko mu mirima yabo bacukura imiyoboro inyuramo amazi kugira ngo atangiza imyaka, nanone bahinga imyaka itandukanye, ku buryo buri myaka iba iri mu murima wayo.

Amatunda ni imwe mu mbuto abantu benshi bakunda cyane, kubera umwimerere yifitemo kandi ikaba irinda indwara, ihingwa ku migozi inanaba ku buryo bashobora kuyisoroma iri na kure y'igiti yaba yarateweho.

Abahinzi bahinga inyanya kugira ngo umusaruro wabo wiyongere kandi mu gihe gitoya ni uko babasha kwita kuri izo nyanya neza, mu byo bakora harimo kuzisasira zikiri ntoya, ibyo bifasha ifumbire kwikora ndetse nanone inyanya zigakura neza zifite intungamubiri.

Iyo tugeze ku isoko, tuhasanga ibyo kurya ndetse n'imbuto z'ubwoko butandukanye, kuko tuba tuzikeneye iyo tugezeyo duhita tuzibona. Urugero ni nk'indimu, aho ari urubuto rukundwa cyane kubera, zirinda indwara zitandukanye by'umwihariko iz'ubuhumekero.

Abahinzi bakora uko bashoboye kugira ngo, umusaruro w'ibyo bahinga wiyongere. Iyo mpamvu, iyo turi mu gihe cy'izuba, bakoresha imipira ikurura amazi kure, hanyuma bakavomera imyaka yabo, kugira ngo itazuma. Ibyo bituma umusaruro wiyongera, kandi bakawishimira.

Abahinzi b'imboga bafasha abantu benshi kubona ibyo bakeneye, urugero nk'ibirungo, povuro ni rumwe mu rugero mu mbuto cyangwa se imboga bahinga kandi ikundwa n'abantu benshi kuko yifashishwa mu guteka ibyo kurya bikaba byaryoha kandi bigahumura.

Abahinzi iyo bagiye gutera imyaka cyangwa se imboga, bifashisha utubuto dutoya kugira ngo iyo myaka izakure iturutse muri utwo tubuto, bashobora kudukura aho bacuruza inyongeramusaruro cyangwa se bakatugura mu masoko atandukanye.

Karoti ni kimwe mu gihingwa gikundwa cyane kubera intungamubiri. Abaturage b'abahinzi bahinga izo mboga, bagerageza kuzitaho kugira ngo batange umusaruro mwiza cyane, ku isoko ndetse no ku bandi bantu babikeneye.

Urusenda ni kimwe mu gihingwa kimaze gutera imbere cyane, aho usanga abantu benshi bagihinga kandi bakaba babigemura no hanze y'Igihugu, rwifashishwa mu kubishyira ku biryo kuko iyo barushyize ku biryo, bishimira iryo funguro.

Abantu iyo bari kubaka ubusitani, bashyiramo indabo z'ubwoko butandukanye kugira ngo burusheho gusa neza. Bashobora gushyiramo nk'imikindo cyangwa se izindi nabo maze ubwo busitani bukarushaho gusa neza ku buryo abantu bishimira kubwicaramo ndetse no kubureba.

Abahinzi bishimira umusaruro wabo, aho iyo bahinze akenshi basubira mu murima wabo kugira ngo babashe kureba neza niba imyaka yabo iri gukura neza, niba nta cyorezo cyayifashe kugira ngo bahite batera imiti hakiri kare maze umusaruro wabo uziyongere.

Abahinzi n'aborozi bishimira umusaruro wabyo, nanone ntabwo bikorwa n'abantu bakuru gusa ahubwo n'urubyiruko rwafashe ingamba mu guhinga ibiribwa bitandukanye, aho iyo babikoze neza bibateza imbere ku buryo nabo bagira ibibazo bimwe na bimwe bikemurira.

Abahinzi bahinga ibintu bitandukanye kandi bikundwa n'abantu. Urugero ni nka avoka, ni kimwe mu mbuto ikundwa cyane kuko abantu benshi bayikunda iyo bari guhirisha ibiryo, kandi ubusanzwe iryoshye cyane. nanone ku isoko ni kimwe mu bicuruzwa bihahwa cyane kandi abantu benshi bakacyishimira.

Abaturage iyo bari kubaka amazu yabo, basiga n'umwanya w'aho gushyira ubusitani, uba usanga bashyiraho ubusitani bw'ubwoko butandukanye, harimo pasiparumu ndetse n'ubwoko bw'indabo bwihariye, urugero nk'imikindo.

Iyo tugiye ku isoko tuhasanga ibyoku kurya by'ubwoko butandukanye, urugero nk'ibitunguru, ni kimwe mu birungo bikundwa cyane, aho gikoreshwa mu guteka amafunguro kandi kigatuma iryo funguro riryoha kandi rigahumura neza.

Abaturage bose bashishikarizwa kubaka akarima k'igikoni. Aho abayobozi ndetse n'abajyanama b'ubuzima, bashobora gufata urugo rumwe, bakubaka akarima k'igikoni. Kugira ngo n'abandi baturage, babashe kuboneraho, babone uburyo babikoramo.

Abahinzi bahinga imyaka itandukanye, bakora uko bashoboye bakayitaho ndetse no mu gihe cy'izuba, aho bashobora kwitabira gahunda yo kuvomerera imyaka yabo, kugira ngo itazuma, maze babone umusaruro mwiza.

Abahinzi bahinga imyaka bifashisha mapompo kugira ngo babashe kuvomere imyaka yabo nko mu gihe cy'izuba kugira ngo ituma. Ipompo ishobora kuba ari ndende cyane kugira ngo ikurure amazi ari kure.

Aborozi b'inkoko bamaze gutera imbere, aho usanga bifashisha ibikoresho bigezweho kugira ngo bagaburire inkoko zabo. Nanone kugira ngo umusaruro w'amatungo yabo wiyongere, ni uko izo nkoko ziba ziri ahantu hasukuye kandi hari umwuka uhagije kugira ngo zirindwe indwara.

Aborozi borora amatungo bakenera ahantu ayo matungo azajya arara niyo mpamvu bubaka ibiraro byiza kandi bigezweho bifite isuku, byubatse neza ku buryo ayo matungo azabamo nta kibazo afite kandi agakura neza.

Amatungo magufiya, akunda kuruhuka iyo amaze kurya kugira ngo ibyo yariye bibashe kuba byanyura neza mu gifu maze bitunge umubiri, nanone bisaba ko aba ari kuruhukira ahantu mu gacucu, kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Amatungo magufi akenera kurya kugira ngo na yo abashe kubaho. Iyo mpamvu aborozi bashobora gufata ayo matungo, bakayajyana mu gasozi kugira ngo abashe kurisha ibyatsi. Urugero ni nk'ihene, aho yirishiriza ibyatsi by'ubwoko butandukanye kugira ngo ibone ibyo kurya.

Inka ni imwe mu matungo yororwa mu rugo aho usanga abaturage bayorora kugira ngo babone ifumbire ndetse babone n'amafaranga aturutse ku mukamo, iyo bayoroye neza babona ibyo byose kandi bigatuma batera imbere.

Aborozi b'amatungo magufi bagerageza kuyitaho, aho usanga bashobora kwahira ibyatsi bakabizana mu rugo kugira ngo ayo matungo abashe kubona ibyo kurya, ashobora kuzana imigozi y'ibijumba cyangwa se ibishyimbo basaruye bakuyemo imishogwe.

Ingurube ni imwe mu matungo akundwa n'abantu benshi kubera uburyo yororwa neza kandi atavuna nanone arya ibintu bitandukanye hafi ya byose, ni iyo mpamvu yoroshye kuba bayorora, ashobora no kunywa amazi kugira ngo ubuzima bwayo burusheho kuba bwiza.

Inka ni rimwe mu itungo ryoroherwa mu rugo, aho usanga abantu benshi barikunda kuko ritanga umusaruro mwiza cyane. Inka ifite amezi yenda kubyara aborozi bayoroye baba biteguye kubona umukamo mu minsi iri imbere, kandi bakaba biteguye no kugurisha.

Abaturage bo mu cyaro nubwo badafite ubushobozi buhambaye, bagerageza korora amatungo makeya, urugero nk'inkoko zitari nyinshi, ibyo bituma babona iby'ibanze bakenera, na bo kugira ngo babone umusaruro, ni uko bazitaho, bakazigaburira neza, hanyuma zigatanga umusaruro mwiza.

Abaturage borora amatungo magufiya urugero nk'ingurube, bashyiraho gahunda yo kubaka ibiraro byiza kandi bifite isuku, ibyo bigatuma ya matungo arushaho kugira ubuzima bwiza kandi akaba afite isuku. Na none umusaruro wayo uriyongera.

Aborozi babigize umwuga, bubaka amazu meza agezweho, kugira ngo bororeremo amatungo yabo, uba usanga ayo mazu yubatswe mu buryo bufite isuku, na none ufite umwanya uhagije, aho umwuka ubasha guca kugira ngo ayo matungo abashe kugira ubuzima bwiza kurushaho.

Inkoko ni imwe mu itungo rigufiya, rikundwa n'abantu benshi kubera ukuntu ritarushya kuryorora, bisaba kurishyira ahantu heza hafite isuku kandi ukarigaburira ifunguro ryiza ryujuje intungamubiri.

Inka ni imwe mu matungo yororwa, aho usanga asabwa kwitabwaho kubera ashobora kuba arya ibintu byinshi, barayahirira ubwoko bw'ibyatsi butandukanye kugira ngo akure neza abashe kuba yatanga umukamo mwiza ndetse abyare yororoke.

Ingurube kimwe mu nyamaswa cyangwa se mu itungo rikundwa cyane kubera umusaruro ritanga kandi mu gihe gitoya, bisaba kuryitaho rikaba riri ahantu hafite isuku kuko iyo ritagiriwe isuku cyangwa se ngo rigire aho riba rishobora kudatanga umusaruro mwiza.

Ingurube ni imwe mu matungo ari kororwa cyane muri iyi minsi, ni iyo mpamvu na Leta isigaye itera inkunga abaturage batishoboye kugira ngo babashe korora itungo rigufiya mu rugo. Bashobora kuryorora kugira ngo bakemure utubazo bafite nanone bakabona ifumbire bashyira mu murima.

Voka ni kimwe mu gihingwa cyateye imbere cyane, aho gishobora guhingwa mu buryo bw'imigemwe, hanyuma nyuma y'aho bakazikura mu migemwe kugira ngo zihingwe mu murima, zarazanye imizi ku buryo zihita zikura, ubwo buryo bwihutisha umusaruro.

Akarima k'igikoni gahingwamo ubwoko butandukanye bw'imboga, urugero; ni nka dodo, intoryi, pavuro ndetse n'izindi mboga zitandukanye, kugira ngo zitume tugira ubuzima bwiza kandi biturinde indwara.

Abahinzi bashobora kwifashisha imbuto ntoya bakazitera mu tugemo, aho zikura zifite imizi, hanyuma mu gihe runaka bakazazikuramo bakazishyira mu butaka, kugira ngo zizahite zikura, ibyo bituma imyaka ikura vuba kandi ifite intungamubiri.

Ibijumba ni kimwe mu gihingwa gikundwa cyane aho kiba kibitsemo intungamubiri, umuntu ashobora kugitera mu karima k'igikoni cyangwa se mu karima gatoya aba afite mu rugo, icyo gihingwa hejuru kiba gifite ibibabi hanyuma ibijumba bikamera mo imbere.

Abahinzi bahinga imyaka itandukanye, urugero nka soya aho igihe cyo gusarurwa kigeze bajya kuyisarura kugira itazangirika. Bashobora kuyisarura hanyuma bakajya kuyanika mu rugo bakazayihura ikavamo soya yo kurya.

Inyanya ni kimwe mu mboga zikundwa cyane kubera intungamubiri ziba zifitiyemo, abahinzi bahinga inyanya bazitaho mu buryo bwihariye kubera ukuntu zishobora kuba zigorana, bagerageza kuzisuzuma buri munsi kugira ngo barebe izahiye ndetse n'izitarashya neza babone uko bazisarura.

Ibijumba ni kimwe mu gihingwa gikundwa n'abantu benshi, aho usanga gihingwa mu byaro bitandukanye, aho bifashisha imigozi yabyo hanyuma bakayishyira mu murima ikazabyara ibijumba aho byerera munsi, nanone hejuru uba usanga iyo migozi ari yo igaragara.

Iyo amatungo yo mu rugo arwaye urugero nk'inka duhamagara abaganga babyigiye mu kuvura amatungo kugira ngo babashe kuza gusuzuma ikibazo afite hanyuma bayitere imiti, bashobora kuzirika inka kubera ko ishobora kuba ifite amahane hanyuma bakayitera umuti.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'ubumenyi bw'amatungo cyangwa se ubuvuzi, bifashisha amatungo kugira ngo babashe kumenya ibice biyagize ndetse n'uburyo bayitaho, bashobora gufata nk'ihene cyangwa se intama bakiga ibice byayo ndetse n'indwara babireba.

Leta ishyiraho gahunda yo gufasha abaturage batishoboye, aho ishobora kuboroza amatungo magufiya urugero nk'ihene, kugira ngo babashe kwiteza imbere bagire n'utubazo tumwe babasha kwikemurira. Na none babashishikariza koroza bagenzi babo kugira ngo nabo biteze imbere.

Iyo tugeze ku ishyamba cyangwa se ahaba inyamaswa zo mu gasozi, tuhasanga ubwoko butandukanye bw'inyamaswa harimo, nk'impara, imparage, ndetse n'udusumbashyamba, zikurura ba mukerarugendo kubera ubwiza ziba zifitemo.

Inkende ni kimwe mu nyamaswa ikundwa cyane kubera ukuntu iba yitwara nk'abantu kandi ifite imico ishimishije kuyireba. Ibyo bituma bamukerarugendo bakunda kuza kuyisura, mu byanya byahariwe inyamaswa.

Iyo tugiye mu ishyamba, tuhasanga inyoni z'ubwoko butandukanye, aho uba usanga zifite ubwiza butangaje. Nanone zifite ubushobozi bwo kuririmba indirimbo zitandukanye, aho iyo ugezeyo mu gitondo cyangwa se ku mugoroba, uba usanga amajwi atandukanye y'inyoni.

Ingagi ni imwe mu nyamaswa iba mu birunga, aho ikundwa n'abantu benshi kubera imyitwarire yayo. Ikurura bamukerarugendo hano mu Rwanda, bagasiga amafaranga. Na none ifitemo imico yenda kumera nk'iy'abantu, ari yo mpamvu bayikunda.

Mu ishyamba tuhasanga inyamaswa z'ubwoko butandukanye, aho usanga inyinshi ari nk'indyanyama, urugero: ni nk'impyisi, aho iba itunzwe no guhiga izindi nyamaswa kugira ngo ibone ibyo kurya. Nanone haba hari ubundi bwoko bw'inyamaswa butunzwe n'ibyatsi.

Uruvu ni imwe mu nyamaswa itangaje cyane, aho usanga ifite ubushobozi butangaje bwo guhindura ibara bitewe n'aho igeze. Niba igeze ku kibabi cy'icyatsi ihita ihinduka icyatsi, ibyo bituma izindi nyamaswa zishobora kuyataka zikayirya zitabasha kuyibona.

Impala ni imwe mu nyamaswa y'ishyamba, ikunzwe cyane, kubera ubwiza bwayo, karemano ifite. Ifite amabara meza, aho usanga ifite umweru n'umukara, bigiye bikurikiranye ku buryo iyo abantu babirebye bishimira guhora babihanze amaso.

Iyo tugiye mu mashyamba, aho inyamaswa zo mu gasozi ziri, tuhasanga inyamaswa z'ubwoko butandukanye kandi zose ziba zinogeye ijisho kuzireba. Ni yo mpamvu zikurura ba mukerarugendo kugira ngo bishimire kuzireba, na none haba hari ibyatsi byiza bituma abantu benshi bahishimira.

Inyoni ni imwe mu nyamaswa ikundwa cyane kubera ubwiza iba yifitemo, ni iyo mpamvu iyo ugiye mu ishyamba usanga zikurura ba mukerarugendo kubera amabara azitatse, ndetse n'amajwi yazo meza cyane.

Iyo tugeze aho inyamaswa zituye cyangwa se mu mashyamba, dushobora kuhasanga ibiti by'ubwoko butandukanye ariko na none kubera aba ari kure hari igihe bubaka ibiraro byo mu kirere kugira ngo abantu babashe gutambuka bitewe n'uko hasi haba hari amazi cyangwa se ibyobo birebire.

Iyo ugeze mu ishyamba ushobora kuhasanga ibiraro byo mu kirere aho abantu benshi bishimira kubigendaho, ibyo biraro babyubaka mu kirere kubera ko hasi haba hari amazi cyangwa se hari icyobo kirekire cyane, hatashobora kujya umuhanda.

Imbwa ni imwe mu itungo ryororerwa mu rugo kuko rikundwa n'abantu bitewe n'imyitwarire rigira, rifite ubwonko buhambaye cyane ku buryo rishobora gufata icyo uryigishije, nanone ryifashishwa mu kurinda urugo kugira ngo hatagira abajura cyangwa se ibindi bintu bihangiza.